Aha ho turi kuhareba umugabo, uwo mugabo ari kuvugira mu ruhame yambaye ikoti ry'umukara ndetse yambaye n'ibirahuri by'amaso bigaragara ko ari kubwira inteko y'abantu imbaga nyamwinshi.

Iyi shusho iragaragaza abantu bari mu nama, abantu bari mu nama buri muntu wese afite mudasobwa. Imbere hari abagabo babiri umugabo umwe yambaye isaha ndetse biragaragara ko acunga umutekano.

Ahangaha turareba abantu batanu muri abo bantu batanu harimo umugore umwe abandi bose ni abagabo bose bari gukoresha mudasobwa abagabo babiri bicaye hino basa nk'aho bari gusobanurira amasomo abandi bari gukoresha mudasobwa undi mugore we nta mudasobwa ari yo gukoresha.

Aha turi kubona abantu benshi, abantu benshi basa nkaho bari kwitegereza umuntu uri hakurya, bambaye imipira isa ndetse bambaye n'imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, hari abantu bari gucunga umutekano bari hirya yabo.

Aha bari kutwereka abantu bari mu nama, abo bantu bari mu nama baricaye ab'imbere bafite indangururamajwi bose buri muntu afite indangurumajwi ndetse ab'imbere bafite imidimu y'amazi bigaragara ko bari muri sale yubashywe, hepfo hari igikoresho kizira inkongi y'umuriro.

Nk'uko tubireba kuri ino foto abantu bari mu nama, biragaragara ko bitabiriye umuntu uri imbere uri kubahugura ndetse bose imbere yabo hari icupa ry'amazi.

Hano haragaragara abantu batandukanye, basoje inama bari kwifotoza, bambaye udupfukamuwa, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ameza ndetse n'intebe ziriho ubusa, hari ibikombe biri hejuru y'ayo meza.

Aha turi kubona abantu bari mu nama, abo bantu ni abayobozi bakuru b'ibihugu bari mu nama ndetse imbere yabo hari amazi ahari, bigaragara ko barimo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo abambaye ibikoresho birinda amaso.

Aha turi kubona abantu bari mu nama ndetse tukabona bahanye intera bafite mudasobwa, hari abandi bari gufata amashusho aba bagabo bari gufata amashusho harimo uwambaye agapfukamunwa ndetse hafi ya bose bambaye udupfukamunwa n'abantu bari mu nama bose bambaye udupfukamunwa.

Aha bari kutwereka abantu bari mu nama, cyane cyane bari kwerekana umugore wambaye ibirahuri by'amaso, afite umusatsi mwinshi, yicaranye n'umuzungu, ndetse biragaragara ko ko imbere yabo hari amacupa y'amazi bari kumwe.

Aha bari kutwereka umugore uhagaze; uwo mugore ari kuvuga afite indangururamajwi, bigaragara ko hari ibintu bashaka kwerekana bari kwigisha abantu.

Aha turi kubona abantu bari mu nama, aba bantu bari mu nama harimo abambaye imyenda y'akazi bakoresha ndetse buri muntu wese afite icupa ry'amazi, hari ingofero iri ku meza iyo ngofero ifiteta ibara ry'umweru.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, aba bantu bigaragara ko basoje inama, basa nkaho bari guhemba abantu, hari abagore babiri bafashe ku rupapuro undi wa gatatu bisa nk'aho ari we uri kubaha icyo gihembo, hakurya turahareba abantu bicaye mu ihema ndetse hari n'inyubako ihari.

Ahangaha ndahareba abagore babiri, abagore babiri biragaragara ko bari mu nama umugore umwe afite imisatsi undi yiteze igitenge, yambaye ibirahuri by'amaso n'undi bari kumwe yambaye ibirahuri by'amaso bafite icupa ry'amazi ndetse bafite na mudasobwa imbere yabo.

Aha turi kureba abantu bari mu nama bicaye, abo bantu bose bari gukoresha mudasobwa, imbere hari igikoresho nsakazamashusho kugira ngo abantu bose babone ibiri gukorerwa mu nama, bari mu nzu y'inama ngari ndetse amatara na yo ari kwaka.

Iyi shusho iratugaragariza ko abantu bari mu nama, abo bantu bari mu nama harimo abategarugori cyangwa se igitsinagore batatu ndetse harimo n'abagabo babiri, ikigaragara ko umugabo uri kuvuga ufite ijambo ntabwo ari umunyarwanda.

Aha ngaha turareba abantu bicaye, abo bantu basa nkaho bari mu nama, harimo abagore babiri n'abagabo batatu, muri abo bagabo batatu harimo umugabo wera w'umuzungu, bigaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari ameza.

Aha bari kutwereka abantu. Abo bantu baricaye. Bagiye bicaye udutsiko, udutsiko. Basa nk'abakoze uruzeru. Imbere yabo hari ameza. Ayo meza atwikirije igitambaro cy'umukara. Hagiye hari amacupa arimo amazi ndetse n'ibipapuro by'umweru bihari.

Aha turi kuhabona abantu bicaye, muri abo bantu bicaye harimo abantu bacunga umutekano. Hari umugore ucunga umutekano w'umupolisi ndetse n'umugabo w'umusirikare, bari kuganira.

Ahangaha turahareba abantu benshi abo bantu bari mu kintu bita amahugurwa hari umusore uhagurutse wambaye ishati y'umukara bigaragara ko ari kubaza undi mugore barebana bicaye ku ntebe zifite amabara y'umutuku harimo abantu bambaye n'ingofero.

Aha turi kureba abayobozi. Abayobozi baricaye. Harimo umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Ndetse bigaragara ko imbere hari abantu bari kubabwira ibintu, bari mu nama. buri muntu wese afite uducupa tubiri, agacupa k'amazi ndetse n'agacupa karimo amazi y'umuhondo aryohereye.

Aha turi kubona abantu bicaye bari kwiga, abo bantu bigaragara ko basa nkaho babahaye umukoro, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Aha turi kureba umuntu uhagaze, uwo muntu yambaye isaha ku kuboko ndetse yambaye n'ikimenyetso cy'umusara, inyuma ye hari ikirango cy'ibedera ry'u Rwanda, imbere hari abantu ari kuganiriza.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, muri abo bantu bari mu nama, harimo umugabo uri imbere ndetse hari n'abagore bari inyuma ye. Bambaye ibintu bibaranga byerekana ko bari mu kazi.

Aha baragaragaza umuntu uri kuvuga, uwo muntu biragaragara ko ari kubwirwa kubwira uruhame rwinshi abantu benshi ndetse biragaragara ko ari umuyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyagatare Gasana Steven.

Aha turi kureba abantu bicaye benshi, abo bantu buri muntu wese afite ikayi mu ntoki ndetse n'ikaramu, hari n'abafite telefoni mu ntoki, harimo abagore ndetse n'abagabo, bigaragara yuko bari mu nama, imbere hari umuntu uri kubahugura.

Iyi shusho iratwereka abantu bari mu nama, abantu bari mu nama ku meza yabo harambitseho amatelefone ndetse harimo umugore ufite imarete cyangwa se ibaga irambitse ku ayo meza, bigaragara ko hari umuntu uri kubahugura.

Iyi shusho irerekana umudamu n'umugabo, uwo mudamu ashinzwe ikoranabuhanga no guhanga udushya muri minisiteri, yicaranye n'umugore imbere ye hariho amacupa.

Aha turi kureba abandi bantu bari mu nama abenshi ni abagabo, umuntu ufite ijambo ni umuzungu, ikigaragara cyo ni uko ari we uri kuvuga, imbere hari ameza, ndetse hari abandi bantu bari kubatega amatwi.

Aha turi kureba abantu bari mu nama. Abo bantu bari mu nama, harimo abagabo ndetse imbere yabo hari akantu gahari, kerekana ko aho hantu hari inama. Akantu k'agapapuro. Harimo abantu batari n'abanyarwanda. Bigaragara ko imbere hari umuntu uri kubahugura. Bari kuyikorera mu nzu.

Iyi shusho iratwereka abagabo bicaye, abo bagabo bicaye inyuma yabo hari abandi bicaye bahanye intera, harimo abagore, harimo umugore ufite telefone uri kuyireberamo undi yambaye ibirahuri by'amaso bicaye mu nzu, inzu mberabyombi nini.

Bari kutwereka abantu benshi imbaga nyamwinshi bari mu nama abo bantu twavugamo nk'abantu bacunga umutekano nabo bari muri iyo nama. Bari ahantu hatwikiriye, hasakaye ariko ntabwo hatwikiriye harasakaye gusa bari nko ku rubaraza.

Aha turi kubona abantu bari mu nama, umugabo ari kuvugira mu ndangururamajwi ndetse hari abandi bagore bari hirya basa nkaho bateze amatwi buri muntu wese afite icupa ry'amazi bigaragara yuko bari mu nama ndetse n'abagore bari inyuma bafite mudasobwa nizo bari gukoresha.

Aha bari kutwereka abantu bari mu nama, abo bantu baricaye ndetse rwose barigana, bigaragara yuko imbere hari umuntu uri kubabwira.

Aha ngaha turi kureba abayobozi bari mu nama, abo bayobozi bari kuganira ndetse bigaragara ko imbere hari umuntu uri kubafotora batumbiriye inyuma yabo hari abandi bicaye.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, abo bantu harimo abanyamahanga, ndetse biragaragara ko rwose imbere hari umuntu uri kubareba cyangwa se abo bari kubwira. Bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari amazi ahateretse.

Ahangaha turabona abantu bari mu nzu y'inama mberabyombi, bose barahagaze bigaragara ko bari guhurira ku kintu kimwe bose, harimo abagore ndetse harimo n'abagabo.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, hari umuyobozi uri kugenda babwira iby'iyo nama ndetse hari n'umuntu ucunze umutekano uhagaze, yambaye ingofero, imyenda ye isa nk'icyatsi kibisi, hari abandi bicaye ku ntebe z'urwegamiro, imbere yabo hari ameza.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, abo bantu bari mu nama baricaye, ndetse imbere yabo hariyo mudasobwa, buri muntu wese imbere ye hari amazi, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye ibirahuri birinda amaso, bicaye ku ntebe z'imikara bose.

Ahangaha turi kubona abagore, abagabo ndetse n'abakobwa bigaragara ko bari mu nama bari kwandika, imbere y'abo hari abafite mudasobwa.

Iyi shusho irerekana abagabo bari mu nama bigaragara yuko imbere hari umuntu uri kubabwira ibintu bijyanye n'iyo nama. Bateze amatwi kandi bose bicaye nko ku ruziga.

Aha turi kureba abantu bari mu nama, abo bantu bari kuvugira mu bikoresho birangurura, abo bantu bose bari gukoresha mudasobwa, inyuma hari abandi bantu bahagaze bigaragara ko bari guha serivisi abangaba bicaye icyo bakeneye bakakibazanira, imbere hagaragara ko hari umuntu uhari, uri kubaremesha inama.

Aha ho turareba abantu batatu muri abo bantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe; imbere yabo hari ameza, ayo meza ateretseho imarete.

Aha ndi kubona umugabo yicaye. Uwo mugabo yambaye ibirahuri by'amaso. Imbere ye hateretse icupa ry'amazi. Inyuma ye hari abandi bantu bari mu nama, b'igitsina gore.

Aha bari kutwereka abantu bari mu nteko, hari abicaye ndetse n'abandi bahagaze, hari umuntu uri imbere, yambaye ipantaro y'umukara ndetse afite n'imisatsi myinshi, bigaragara ko afite n'urupapuro mu ntoki ari kubwira aba bantu.

Aha bari kutwereka uburyo wakoresha serivisi z'irembo, wikorera serivisi zawe ku giti cyawe, bari kutwereka umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse ari gukoresha mudasobwa hirya hari telefoni.

Aha ho bari kutwereka umujyi wa kigali ufotoye, bari kutwereka inzu mbera byombi y'Arena, ndetse baratwereka igice cyose bafotoye bahereye hejuru.

Ishusho irerekana umugabo ushobora uri gusobanurira abantu ubwiza bwa telefoni yitwa tekino, uwo mugabo biragaragara ko ari umufashamyumvire w'iyi sosiyete ishinzwe gutanga amatelefone.

Aha turi kureba umuntu ukorera serivisi z'itumanaho za MTN, uwo muntu ari mu nzu, ndetse bigaragara ko hari uwo ari kubwira, uri kumufasha serivisi, iyo nzu irafunguye.

Aha bari kutwereka abakinnyi. Abo abakinnyi ni abakinnyi batanu. Hari urimo hagati, abandi babiri babiri bagiye bari ku ruhande. Ndetse munsi yabo bakatwereka indi foto, iriho abantu bari gukina, umukino w'intoki.

Aha bari kutwereka igishushanyo kiriho inzu, iyo nzu izengurutswe n'ibiti bigaragara ko ari igishushanyo bashushanyije ndetse bakerekana igihe ntarengwa cyo gusura iyi nzu.

Iyi shusho iratwereka umugabo. Uwo mugabo yambaye inkweto zifunguye, ndetse yambaye n'ikote uwo mugabo bigaragara ko hari ibintu ari kubaza aho bacururiza.

Aha bari kutwereka urupapuro, urwo rupapuro ruriho amabwiriza ndetse ruriho ukuntu uburyo umuntu yishyura serivise zijyanye no gutwara abantu n'ibintu.

Ishusho iratwereka aho sosiyete y'itumanaho y'irembo ikorera, aho wayisanga. Ni inzu ntoya yubatse ishobora kuba ifite irange ry'umuhondo ndetse n'umuzenguruko wayo akaba ari kare.

Aha turi kureba urupapuro, urwo rupapuro rufite intangiriro yandikijwe ibara ry'umuhondo, ndetse urwo rupapuro bari gushaka kutwereka uburyo ushobora kwishyura imisoro, igihe ntarengwa cyo kwishyura imisoro rwandiki... rufite ibara ry'ubururu.

Aha turikureba abantu bicaye, abo bantu bicaye barangariye mu bikoresho by'ikoranabuhanga, twavugamo nka mudasobwa ndetse na telefoni, harimo abantu b'abazungu batari abanyarwanda, hakurya hari inyubako ihari.

Iyi shusho iratugaragariza indege, ndetse hari n'abana bishimye, hari n'undi uri kwandika, bakanagaragaza inzu zibiturirwa, hepfo banagaragaza abantu benshi, basa nk'aho bari mu kivunge bari kugenda.

Aha turahabona urupapuro rwerekana amatariki y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri. Ayo matariki bagiye bayashyiraho ndetse ayo matariki yandikiye mu ibara ry'umweru.

Aha bari kutwereka inzu, iyo nzu bigaragara ko batangiramo serivise z'irembo, hari umuntu uri kwinjira kuri iyo nzu, yambaye agakapa gatoya mu mugongo ndetse yambaye n'umupira urimo amabara y'umweru.

Aha turahareba akantu kameze nk'inzu, ako kazu kanditseho ko kakorewe mu Rwanda ndetse aho kari hari ubusitani, inyuma y'ako kazu hari igiti kitwa umukindo kigaragaza ubwiza bw'aho hantu ndetse hari na sima zitandukanye zitameze nk'izindi twakwita ko ari amapave.

Aha turi kuhareba icyapa cy'umuhondo, nkahareba umugabo uri kugenda uwo mugabo yatebeje yambaye ishati y'umweru ndetse nta n'umusatsi amfite ndahareba inzu ndende.

Aha bari kutwereka abantu, abo bantu harimo umusore muremure wambaye ingofero uhagaze, iyo ngofero y'umukara, ndetse hari n'undi wambaye ingofero, bigaragara ko bari ku nkengero z'umuhanda.

Aha bari kutwereka serivise z'irembo. Izo serivise z'irembo bari kutwereka uburyo wazikoresha. Berekanye urupapuro ruriho ishusho ya telefoni.

Aha turi kureba abanyeshuri, abo banyeshuri baricaye, bicaye ku ntebe ndetse bose bafite mudasobwa, bicaye ari bibiri babiri, imbere hari umwarimu uri kubigisha, bari mu nzu ifite amarange y'umweru.

Hano turahareba abantu bari mu inama, bari gukoresha mudasobwa, bigaragara y'uko bategereje bategereje umuntu uri imbere uri kubayobora, ntago bari gukora, ariko imbere yabo hateretse mudasobwa ziteretse ku meza.

Aha bari kutwereka ikibuga, muri icyo kibuga hirya hari umunara, uwo munara urazengurutswe n'ibyuma, ndetse hakurya bakatwereka umusozi ndetse n'ikirere.

Aha ngaha bari kwerekana umugabo uri guseka, uwo mugabo afite telefoni mu ntoki bigaragara ko ari kwigisha serivisi z'irembo uburyo abantu bazikoresha.

Aha bari kutwereka igikoresho cy'ikoranabuhanga telefoni, iyo telefoni iributsa abantu kwishyura imisoro n'amahoro ndetse hari ikindi cyapa cyanditseho amagambo, icyo cyapa kiri mu ishusho y'umuhondo.

Aha ho baratwereka ishusho ifite ibara ry'umukara, bigaragara ko hariho imyirondoro y'umuntu runaka ushaka gusohoka igihugu agiye hanze, ni imyirondoro ye yose ndetse na nimero ze akoresha mu buzima busanzwe.

Hano bari bereka abanyeshuri. Aba banyeshuri bari gukoresha mudasobwa, bari kuzikoresha ku meza. Buri munyeshuri wese afite mudasobwa ye. Biragaragara ko batuje, bambaye imyenda y’ishuri impuzankano: amashati y’umweru ndetse n’amapantaro n’amajipo y’umukara.

Aha ngaha hari abagabo babiri. Abo bagabo babiri bari guhuza urugwiro bari kuganira. Imbere yabo hari mudasobwa ndetse hari na telefoni iri ku meza. Bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari abandi bantu babiri bahari bari kuganira. Hakurya hari muntu wegamye ku giti hari n'ibinyabiziga by'igare bihari biparitse.

Aha turi kureba abantu bicaye. Abo bantu bicaye bari kuganira. Bari gukoresha mudasobwa. Bicaye ku ntebe, ndetse izo mudasobwa zi no ku meza. Hirya yaho hari inzu ihari.

Aha bari kutwereka umunara, uwo munara niwo usakaza amakuru, cyangwa se itumanaho aho hantu, bakatwereka n'ikirere gisa nk'aho ari ubururu.

Bari kutwereka ko hasigaye iminsi itanu inama ikaba. Bari kutwereka urupapuro rw'ubururu rushushanyijemo umubare gatanu, ndetse barikwerekana utuntu tune tw'igitare dusigaye gusa kugira ngo iyo nama ibe.

Hano turi kureba umugabo uri hejuru ya moto, uwo mugabo yambaye umwenda w'akazi, ibigaragara ko nuko aparitse mu muhanda, hejuru yaho cyangwa hirya yaho hari ibiti bihari ndetse hari n'inzu ndende igeretse.

Aha ngaha turi kureba ibikoresho nsakazatumanaho. Ibyo bikoresho bifite ibindi bikoresho bikurura itumanaho bibiri bitandukanye. Hakurya hari inzu abantu batuyemo ndetse bari kutwereka n'ikirere.

Hano baratwereka ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bimwe bicometse ku muriro w'amashanyarazi, hirya hari agakoresho kabitse ibikoresho byose by'amashanyarazi, urugero nka mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'umuziki.

Aha turi kureba mikoro ndetse izo bikoro biragaragara ko ari iz'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amakuru cy'u Rwanda cyangwa se radiyo Rwanda, bari gushishikariza abantu gukoresha serivisi z'ibaruramari.

Aha ngaha bari kutwereka uburyo ushobora gukoresha serivisi z'Irembo ukisabira ibintu bitandukanye urugero nko kwiyandikisha gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga cyaba ar'icy'ibanze cyangwa se cyaba ari ikindi cya kabiri, batweretse ishusho ya mudasobwa.

Aha bari kutwereka icyuma cy'umuriro w'amashanyarazi kigabanya cyangwa kikongera umuriro kugira ngo ujye gukoreshwa, hakurya hari igiti gihari ndetse bakanatwereka n'inyubako iri hirya.

Aha turi kuhareba itara iryo tara rishinze ku giti, ndetse hari igiti kiri gucana umuriro w'amashanyarazi, ahantu hatandukanye, bakatwereka n'ibiti bakatwereka n'ikirere kiri hirya.

Aha ho bari kutwereka imodoka ebyiri, izo modoka ebyiri hari imodoka y'umukara ndetse n'imodoka y'umweru, hirya y'aho hari abantu bahari benshi, ndetse hirya y'abo bantu hariho icyapa, ku ruhande hari imodoka y'umutuku bari kwerekana ariko yo ntabwo isa nkaho iri hafi cyane.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Aha barikwereka inzu zigeretse izo nzu zifite ibara ry'umweru ndetse bakanatwireka ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi biwutwara ahandi hantu kugira ngo nawo ako gace nako kabone umuriro w'amashanyarazi.

Ahaho turi kureba inzu. Izo nzu zifite igisenge gifite ibara ryenda gusa n'umutuku ndetse hafi yaho hari ibiti, hari n'ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi ndetse hari n'icyapa kiranga aho ahantu ugeze aho ari ho.

Inyubako iherereye i Kigali Kanombe ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse ikagira ubwogero butatu .Iyo nyubako ikaba ikodeshwa ku kwezi amafaranga ibihumbi magana atanu(500,000 Rwf). Iyo nyubako ikaba ifite ibaraza ndetse n'amarange meza , ikaba ifite n'amakaro.

Kerekana igipangu icyo gipangu, gifitemo amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru. Amabara y'umweru hejuru yaho hariho ipoto iriho insinga, amasinga abiri bigaragara ko ajya ku rugo rw'umuntu.

Aha turi kuhareba ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi biwutwara ahandi, hantu hirya yaho hari ibiti bihari ibyo biti munsi yabyo hari inzu zihari izo nzu biragaragara ko ari izabantu baturamo ndetse bari no kutwereka ikirere.

Aha aho turahabona abantu buriye ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi, abo bantu bambaye imyenda y'akazi, bafite impuzankano z'ubururu, ndetse bafite, bambaye n'ingofero z'umuhondo.

Aha turi kureba umuhanda ndetse muri uwo muhanda harimo imodoka, hakurya y'umuhanda hari inzu zihari hari n'ibiti biri ku nkengero z'umuhanda.

Aha turi kuhabona inyubako, izo nyubako zifite igisenge cy'umukara ndetse inyuma y'izo nyubako hari ibiti bihari ndetse hari n'ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi biwutwara ku zindi nzu, bakatwereka hakurya n'ikirere gihari.

Ishusho iratwereka uburyo ki basakaza amashanyarazi ahantu hatandukanye binyuze mu miyoboro migari, ndetse bakanatwereka ishyamba riri hakurya. Hakurya hari n'abantu bari ahantu heshi hatandukanye.

Aha bari kutwereka ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi bigaragara ko izi nsinga zitwaye guha urundi rugo umuriro w'amashanyarazi, hafi aho ngaho hari urugo rw'ibiti by'imiyenzi, ndetse mu rugo harimo igiti kivaho imbuto nk'imyembe hari n'ibisheke biteye ahongaho.

Aha bari kutwereka inyubako ndetse hino yizo nyubako hari ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi bihari biwubika kugira ngo ujye gukoreshwa wizewe neza.

Aha bari kutwereka umuhanda, hepfo y'umuhanda hari ibirabyo, munsi y'ibirabyo hari inzu ndetse hakaba inzu zindi zigeretse ziri hirya, hakurya y'izo nzu bari kutwereka ishyamba ndetse bakanatwereka ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi biwujyana ku nzu zitandukanye.

Aha turi kuhareba moto ziparitse, tukahabona n'abantu batari benshi cyane ariko nabo ari benshi barenze batanu, harimo igitsina gore, igitsina gabo ndetse n'igitsina gore cyambaye umwenda wo mu mutwe uhisha umutwe, bambaye imyenda y'imikara ndetse n'amashati y'imikara.

Aha turahareba igipangu, icyo gipangu imbere yacyo hari ubusitani ndetse hari n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi, uzijyana kuri izo nzu zirangwa hafi aho.

Aha bari kutwereka amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi munsi yayo mapoto harimo inzu ndetse imbere y'inzu hari ibirabyo bitatu hakurya baratwereka inzu nyinshi zisa nk'aho zituyemo abantu.

Aha turi kureba ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi. Hakurya tukareba ubusitani buhari. Ubusitani bugizwe n'ibiti bitari byinshi cyane. Bitari ibiti by'inganzamarumbo. Hafi aho munsi y'icyo cyuma gitwara umuriro w'amamashanyarazi, hari umuntu uhari, bigaragara ko ari umukozi ushinzwe iby'amashanyarazi.

Iyi shusho iratwereka inzu iyo nzu hari igikoresho kiri kuyiha umuriro w'amashanyarazi imbere yaho hari abantu bicaye mu butaka bari gutanga serivisi zigendanwa za murandasi.

Aha bari kutwereka inzu. Iyo nzu hari icyapa cyanditse nomero y'iyo nzu bari kutwereka ndetse iyo nzu ifite igisenge cy'amabati y'ibara ry'umutuku ndetse hari n'icyuma gikurura cyangwa se gisakaza itumanaho kugira ngo abantu babashe kureba tereviziyo.

Aha turahareba igikoreshokoresha mu muriro w'amashanyarazi bohereza insinga ku rundi rugo, ndetse turahareba n'inyubako ndende, iyo nyubako iragiretse, hakurya hari ibiti bihari ndetse hari n'ibinyabiziga biparitse, bitari mu muhanda bitari kugenda.

Aha bari kutwereka ibiti byinshi ndetse n'ubusitani buhari, bakanatwereka korodoro y'iyi nzu. Bakatwerereka rigori y'amazi. Aho amazi anyura mu gihe yabaye menshi kugira ngo agabanyuke.

Aha bari kutwereka ibikoresho, ibyo bikoresho ni ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'umuganga, ibyo bikoresho harimo ibikoresho by'umweru ndetse harimo n'ibikoresho nsakazamashusho.

Aha turi kuhareba abantu babiri, abo bantu biragaraga ko ari abaganga ndetse hari n'umurwayi uryamye ku gitanda; hari ibikoresho byo kwa muganga bibafasha mu buzima bwa buri munsi ndetse hari n'agakoresho babikamo impapuro gahari.

Ahangaha bari kutwereka icyumba, icyo cyumba gikorerwamo nk'inama, bakanatwereka ibitambaro birinda ko abantu babona abandi bari imbere by'ubururu, ndetse bakatwereka n'intebe, n'abantu bicaye, hari n'abandi bahagaze, umwe yambaye umwenda w'akazi.

Aha turi kureba abantu bicaye, abo bantu bicaye harimo uwambaye ingofero y'umukara, ndetse uwo mugore afite imisatsi myinshi yiteze n'igitambaro, biragaragara ko ku muryango hari nimero gatatu, bicaye ku ntebe ikozwe muri sima, bategereje umuntu.

Aha turareba ahantu hari ubusitani bigaragara ko hashobora kuba aha hantu hatangirwa serivisi z'ishuri. Hari abantu bari mu rubuga mo hagati, navugamo nk'umugore uri kuza azamuka ndetse n'undi mugore wambaye umupira w'umutuku, hari n'undi wicaye. Aha hantu hari igiti cy'inganzamarumbo. Iyo urebye hakurya uhabona imiturirwa.

Iyi shusho irerekana ubusitani. Ubwo busitani burimo imikindo ibiri, ndetse ubwo busitani hari ahantu hirya haparitsemo imodoka eshatu, ziri mu bwoko butoya zitwara abantu. Aho hantu hakaba rero ari nk'ikigo cy'amashuri.

Aha turi kureba abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, bivuze yuko bategereje imodoka, hafi aho hari imbangukiragutabara imodoka zitwaye abarwayi zihari, zitegereje ko hari abantu binjiramo, ndetse hari abandi bari gusohoka mu yindi modoka iri hirya.

Aha bari kutwereka imodoka itwara abarwayi cyane cyane iyo modoka igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu hakurya baratwereka izindi modoka zihari bakanatwereka n'uburyo ugenda uzamuka ujya ku yindi nzu navuga mu ndimi z'amahanga ko ari sekariye.

Aha turi kubona abantu bicaye, abo bantu bicaye imbere yabo hari umugore uri kubabwira ibintu, uwo mugore afite ikayi mu ntoki ndetse n'undi mugabo uri kwandika usa nkaho yunamye, bateze amatwi baratura bategereje ibyo ari kubabwira.

Hano turahareba abantu, abo bantu bacunze umutekano. Hari abandi bambaye imyenda isa bicaye batuje, inyuma yabo hari abandi bantu bambaye ingofero, bigaragara ko bacunze umutekano w'aba bantu bari ahangaha.

Ahangaha turareba abantu benshi, harimo abagore ndetse harimo abagabo benshi, biragaragara ko harimo n'abantu bacunga umutekano, harimo n'umucamanza, hari ikirango cya guverinoma y'u Rwanda kiri hejuru yabo ndetse abo bagabo bari mu nzu, harimo na Minisitiri w'intebe w'u Rwanda.

Aha bari kutwereka umucamanza, uwo mucamanza ari kuburanisha umuntu, ari kumushyiriraho umuti w'intoki kugira ngo afate indangururamajwi, hari abandi bari imbere bose bambaye udupfukamunwa.

Hano turi kureba abantu bari mu nama, abo bantu bari mu nama imbere yabo hari ameza ndetse bicaye mu inyuma yabo hari ibiti by'inganzamarumbu binini, ibyo biti bihari ntabwo ari byinshi.

Uruganiriro rusa neza rusize irangi ry'umweru urimo n'amatara agezweho harimo intebe nziza rwose zisa icyatsi z'imisego tukabona ameza y'andi meza agezweho rwose afite n'utubati ateretseho icyo bita telekomande gikoreshwa kuri televiziyo, tukabona kandi igihuha gitanga umuyaga muri salo n'imitako myinshi.

Aha bari kutwereka umucamanza, uwo mucamanza yambaye ikanzu ndende, iyo kanzu ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara ndetse n'umweru.

Ahangaha turareba abantu bari mu rukiko hari abacamanza bicaye ndetse hari n'abandi bacamanza bahagaze bigaragara yuko bari kuburanira umuntu ni nyuma yabo hari abantu bicaye .

Aha bari kutwereka ishusho y'abacamanza batatu, aba bacamanza batatu ndikubonamo perezida w'urukiko rw'ikirenga ndetse ari gusuhuzanya n'umugore nawe wambaye ingofero, uwo mugabo nawe wambaye ingofero, undi mugore wicaye ari gukoma amashyi, bigaragara yuko bari kubashimira bari guhabwa impamyabumenyi.

Aha bari kutwereka ikigo k'igororero rya Musanze ndetse munsi bari kutwereka ibiti biri hafi ahongaho, bari kutwereka n'icyapa kigaragaza guverinoma y'u Rwanda ndetse na nomero y'aho hantu.

Ahangaha turabona abantu bambaye imipira y'umweru, hari abasa nk'aho bari kubyina ndetse biragaragara ko bishimye cyane.

Aha bari kutwereka abantu benshi hari umugore uri imbere wamanitse abandi bari inyuma bifura amaboko bifashe ku maboko ntabwo bari kuvuga bigaragara ko imbere hari umuntu uhari bashaka kubaza ibibazo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bazamuye ibiganza byabo hejuru bafite amadarapo yanditseho FPR agizwe n'umutuku umweru n'ubururu.

Angaha turi kureba umucamanza, uwo mucamanza yambaye ikanzu y'umutuku ndetse mo imbere yambaye n'akantu k'ibara ry'umweru, ndetse n'ishati y'ubururu.

Aha ngaha turahareba umugabo, uwo mugabo yambaye ikanzu y'umutuku. Uwo mugabo arirabura. Uwo mugabo afite ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, afite umusatsi mukeya.

Iyi shusho irerekana nk'imyanzuro y'inama y'inteko ishingamategeko ku bintu bijyanye n'ubutaka yerekana yuko inama yari iyobowe n'umukuru w'igihugu perezida Kagame iyo ni imyanzuro yayivuyemo.

Aha turi kureba imfungwa, izo mfungwa zifite ibikoresho bavuye gukora, twavugamo nk'amasuka, ndetse bafite n'imifuka mu ntoki, hirya hari ikizu cyabo babamo.

Aha ngaha turareba ikinyabiziga, icyo kinyabiziga kiri mu muhanda, icyo kinyabiziga kiri mu binyabiziga bya polisi bishinzwe gukusanya inkozi z'ibibi zakoze ibyaha.

Reba abantu benshi muri abo bantu benshi harimo abantu bacunga umutekano, ndetse bafite ibikoresho bibafasha mu gucunga uwo mutekano, bambaye ingofero z'akazi.

Ahangaha ni kukiraro hariho abantu bari kwambuka, hari umugore ndetse n'umugabo bari kugenda muri uwo muhanda, hakurya turahareba imodoka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga umutekano wo mu muhanda, iraparitse, irimo ubusa, hakurya twareba ibiti by'inganzamarumbo twakwita nk'ibiti by'ishyamba.

Aha turahareba umuntu ucunga umutekano ndetse n'undi muntu uri mu muhanda uri kugenda. Hari igiti kiri munsi y'umuhanda cy'iganzamarumbu ndetse inyuma y'icyo giti harimo ahantu hameze nk'ikigo cy'amashuri higiramo abantu. Muri icyo kigo mo imbere harimo ibiti byinshi.

Aha turi kureba imodoka y'ikigo gishinzwe umutekano ndetse bigaragara ko ziparitse hanze tukanabona n'inyubako igeretse kenshi ifite izindi nyubako yazo.

Aha bari kutwereka icyapa, icyo cyapa ni icya Polisi y'u Rwanda ahantu bita Rwezamenyo, ndetse hakurya hari ibiti bihari, hari n'umuhanda urimo kugendamo abantu, umuhanda nyabagendwa, urimo n'ibinyabiziga urugero nka moto.

Reba imodoka iparitse. Iyo modoka harimo umuntu mo imbere uri kuvugana n'umuntu ubishinzwe wo mu muhanda, hejuru hari inzu igeretse. Iyo nzu igeretse kenshi.

Aha ngaha turi kureba umunyeshuri, uwo munyeshuri ari imbere y'abandi banyeshuri benshi, afite igikoresho kizimya inkongi y'umuriro bigaragara ko ari kwigisha abandi uko ushobora kuzimya inkongi y'umuriro igihe ibaye.

Iyi shusho iragaragaza abantu benshi abo bantu benshi harimo abantu bacunga umutekano ndetse hari n'abanyeshuri inyuma yabo ,imbere yabo hari ibikoresho bikoresha bizimya inkongi y'umuriro.

Hano baratwereka inzego z'umutekano ziri kuzimya inkongi y'umuriro bakatwereka n'imodoka ntoya itwara abagenzi, iyo modoka ifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Iyi foto yo baratwereka abantu benshi muri abo bantu benshi ubarangaje ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda igihe yari ari kwiyamamaza yambaye ingofero y'umukara ndetse yambaye n'ibirahuri by'amaso ari guseka bigaragara ko yishimye.

Aha turi kubona abategarugori bakenyeye benshi nta mugabo urimo, ni abategarugori gusa biragaragara ko bishimye kandi banezerewe, inyuma yabo hari ibiti bihari byinshi by'inganzamarumbo ndetse n'izindi nyubako ziri inyuma y'ibyo biti.

Aha turi kureba abantu babiri muri abo bantu babiri harimo uwambaye ipantaro w'umugore ndetse n'undi wambaye ijipo ari umugore nawe, hafi aho ngaho hari ibintu bari gukora, hari agakarito k'umweru gasa nk'aho karimo imyanda.

Aha hari abantu bicaye n'abandi bahagaze harimo abadamu bakenyeye ndetse harimo n'abagabo bambaye amakote, aha harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Rutayisire Antoine n'umugore we.

Aha bari kutwereka igishushanyo cy'uruziga kirimo amabara atandukanye, ayo mabara atandukanye twavugamo umutuku, umuhondo, icyatsi n'ubururu ndetse n'umukara, bishaka kwerekana ko ari gahunda ya leta baba barihaye.

Aha ho baratwereka abantu bari hamwe, harimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wacyuye igihe ndetse hakabamo na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, bigaragara yuko basoje igikorwa runaka kirimo nk'inama bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ahari kuhabona amahema menshi. Amahema menshi y'ibara ry'umweru, ku mpande atakishijwe ibara ry'umutuku, ndetse hari abantu benshi bamanitse ukuboko bambaye imipira irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru imyinshi.

Aha turi kuhareba umugabo, uwo mugabo yifumbase amaboko ndetse ari kuvuga, avugira mu ndangururamajwi. Inyuma ye hari undi mugabo uri kwandika, ufite ikaramu ndetse hari undi mugabo utari kugaragara neza ariko bigaragara ko ari gukoresha mudasobwa.

Iyi shusho iratwereka abantu bari kwiyamamaza, abo bantu bari kwiyamamaza, hari abagabo bari iruhande yabo bambaye ibirahuri birinda amaso.

Aha turi kuhareba umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi, uwo muntu ku ruhande rwe hari undi muntu uhagaze, uwo muntu uhagaze afite urupapuro mu ntoki, inyuma hari abantu bicaye, imbere yabo y'abo bantu bicaye hari ameza, ndetse uwo mugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi ahagaze ku musambi.

Aha turi kureba umugabo, uwo mugabo ari kuvugira mu ndangururamajwi ndetse imbere ye hari icupa rihari, yambaye ibikoresho by'amaso birinda amaso.

Aha bari kutwereka ifoto y'umukandida, uwo mukandida n'uw'ishyaka ryitwa girini pati, uwo yitwa Faranka Habineza, bigaragara ko bari kwamamaza, umuntu ufite ifoto yambaye umupira w'umweru, uwo muntu arirabura cyane.

Aha turi kuhabona urupapuro urwo rupapuro ruriho imyirondoro y'ibicuruzwa n'amafaranga n'ibyo twatakaje.

Aga nhaga turi kuhabona abantu batatu, abo bantu batatu ni abiyamamarije ku mwanya wa perezida. Turasangampo perezida w'urwanda polo kagame, ndetse na furanke Haabineza na Mpayimana firipe.

Aha turahareba umugabo. Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara, afite umusatsi mwinshi uwo mugabo arirabura ndetse afite n'inyinya. Uwo mugabo biragaragara ko ari perezida wa repubulika y'u Rwanda mbere ya Jenoside.

Aha bari kutwereka abantu urugero harimo abagabo batatu n'abagore batatu bari imbere hakurya turahareba ibiti birimo nk'imikindo ndetse hari n'imodoka nto itwara abantu hafi hari umugore uhari uri kuza asa nk'aho ajya mu ifoto neza.

Aha turi kureba umugabo wicaye uwo mugabo afite umusatsi mwinshi, ndetse yambaye ikoti ndetse n'ipantaro bisa inyuma ye hari ishusho y'ibara ry'icyatsi kibisi.

Bari kutwereka amahema, muri ayo mahema hari abantu bicayemo ndetse bari kutwereka umukandida wiyamamarizaga ku mwanya w'abadepite, ni Mukabalisa Donatila, yambaye imikenyero y'umuhondo, yambaye n'umupira w'icyatsi kibisi.

Aha turi kubona Perezida w'urukiko rw'ikirenga ahagaze imbere ya Perezida wa Repubulika ndetse ahagaze imbere y'ibendera, hirya hari madamu wa perezida wa Repubulika, hakurya hari abantu benshi bigaragara ko bari kumva indahiro ye.

Aha bari kutwereka abantu. Muri abo bantu bane harimo n'uwiyamamariza kuba ku mwanya wa Perezida yitwa Frank HABINEZA. Bigaragara ko ari kwiyamamaza.

Hano turi kubona abantu bane, abo bantu bane bahagararanye n'umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi. Umugabo wundi bahagararanye yambaye ibirahuri by'amaso, yambaye ishati y'amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Aha turahareba abantu benshi aba bantu benshi bigaragara ko bari kwamamaza, icyo gihe ni umukandida wiyamamariza ku umwanya wa perezida w'ishyaka rya efuperi, hirya yaho hari ibiti.

Aha barikutwereka abantu bari mu nama. Ni abantu batanu harimo abagabo bane n'umugore umwe. Barahagurutse. Inyuma yabo hari amabendera, ndetse imbere hari abantu bari gusa nkaho barikumva ibyo aba bayobozi bababwira. Muri abo bayobozi twavugamo nka Perezida Kagame, Minisitiri w'intebe, Perezida w'inteko ishingama amategeko umutwe w'abadepite na Perezida w'urukiko rw'ikirenga.

Aha turi kubona abantu bicaye bari mu nama. Bambaye hari umwe wambaye agapfukamunwa. Ndetse buri muntu wese afite icupa ry'amazi. Bicaye harimo intera itari ndende. Inyuma hari babiri, babiri bambaye ibirahuri by'amaso.

Aha turareba umuhanda uwo muhanda harimo imodoka, izo modoka hari imodoka zitwara imizigo ndetse n'imodoka zitwara abagenzi hafi aho ngaho hari abantu bari kugenda n'amaguru .

Aha bari kutugaragariza umuhanda, uwo muhanda harimo kugendamo ibinyabiziga, ndetse hari moto zibisikana n'izindi, hakurya hari ikinyabiziga cy'imodoka gihetse imizigo, muri uwo muhanda ku nkengero zawo hari abantu bari kugendamo, hakurya turahareba inzu isa nk'aho ari iy'ubucuruzi.

Iyi shusho irerekana ko ibinyabiziga biri mu muhanda ibyo binyabiziga tubona hari imodoka ihetsemo abantu ndetse imbere yaho hari moto ihetse umugenzi bose kandi bambaye ingofero z'akazi, imbere y'uwo muntu uhetse umugenzi hari igare, igare ririho umuntu.

Aha turahareba imodoka, iyo modoka ihetse imizigo hejuru yayo hari umuntu uhicaye, hakurya y'umuhanda hari ibiti bihari.

Aha turi kureba umuhanda, muri uwo muhanda hari imodoka itwaye abantu ndetse bari kutwereka n'ikiraro gitoya abantu bambukira ndetse icyo kiraro gitwara amazi. Hakurya bari gutwereka ibiti by'inganzamarumbo, bakatwereka n'umuntu uri kugenda hakurya y'umuhanda.

Aha turi kureba igare, igare riraparitse ndetse hari ikindi kinyabiziga cya moto kiri inyuma y'iryo gare, uwo muntu ahetse umugenzi, bigaragara ko iryo gare rihetse imizigo, ndetse undi muzingo uri hejuru ku ntebe y'iryo gare, hari ikintu kimeze nk'ibara ry'umuhondo.

Aha turi kuhabona imodoka. Izo modoka ziparitse ku muhanda. Hakurya y'izo modoka hari inzu. Izo nzu zifite ibyapa bizimanitseho, harimo izifite ibyapa by'ibara ry'umutuku ndetse n'ibyapa by'ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakurya yaho hari abantu.

Ahangaha bari kutwereka imodoka zihetse imizigo, izo modoka n'ebyiri hakurya hari ibiti by'inganzamarumbo binini izo modoka ziri mu muhanda usa nkaho utakoze neza.

Aha bari kutwereka umuhanda muri uwo muhanda harimo imirongo yera icagaguye ndetse bakatwereka n'imodoka izo modoka ntoya zitwara ziri, imwe iri imbere indi iri inyuma.

Iyi shusho iratwereka umuhanda muri uwo muhanda harimo imodoka. Imodoka y'imbere itwara imizigo inyuma yaho hari imodoka isa nkaho ari nini inini kurusha iy'imbere inyuma yaho hariho ibiti birebire.

Aha bari kutwereka imodoka nini itwara abagenzi, hafi aho hari umuntu uri kugenda ndetse hari n'ubusitani buhari, harimo ibyatsi ndetse hari n'imodoka iri kuza bari kutwereka igice gitoya kimwe.

Aha turi kuhabona imodoka. Izo modoka ziri mu muhanda, bigaragara ko ziri kugenda zishoreranye. Izo modoka zifite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Iyi shusho irerekana imodoka nini iri mu muhanda, iyo modoka bigaragara yuko itwara imizigo, hirya yaho baratwereka akamodoka gatoya gatwara imizigo, ako kamodoka kagaragara ko hariho umuntu imbere, imbere yaho hariho umugore wambaye ikanzu.

Iyi shusho iragaragaza imodoka ntoya ndetse n'imodoka nini, ndetse bakanatwereka ko hari ibyerekana abantu bashaka kuyoborwa n'icyapa bakanatwereka uburyo batwara umuriro w'amashanyarazi binyuze ku bikoresho byabugenewe.

Aha bari kutwereka imodoka, izo modoka bigaragara ko zije nko muri gare ndetse hakurya akatwereka ibiti byinshi, akanatwereka n'abantu benshi basa nkaho bari ahantu hamwe, barimo gucuruza cyangwa se bari guhanahana amakuru.

Aha bari kutwereka imodoka ndetse bakatwereka n'umuhanda. Iyo modoka yacanye amatara y'inyuma y'umutuku ndetse inyuma hari umuntu uri kuyigenda inyuma, n'imbere hari umuntu uri kuhagenda. Imbere hari izindi modoka, zijya mu cyerekezo nk'icy'iyo ijyamo ndetse bakatwereka n'aya matara yo ku mihanda aha amurikira umuhanda.

Aha bari kutwereka abantu bari ku igare muri abo bantu bari ku igare harimo bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'undi mugabo wambaye ipantalo y'umukara n'umupira w'umweru.

Iyi shusho irerekana umugabo uri mu muhanda uhetse umugenzi, hirya ye hari imodoka ihetse abantu, ndetse irerekana n'umugabo uri ku igare bamutwaye bamuhetse.

Aha bari kutwereka ibinyabiziga, bya binyabiziga bitoya bimeze nka moto by'ibinyamitende ibi bitwara imizigo.

Ishusho yerekana uburyo ushobora gutumiza ibintu ukoresheje telefone igezweho kumbuga nkoranyambaga zitandukanye utavuye aho uri harimo nk'imyenda ndetse n'imitako bitandukanye.

Aha turi kureba umuhanda. Mu muhanda hari imodoka ziri kugenda. Izo modoka; imodoka itwaye umuzigo ihetse ibintu. Iyiri imbere harimo ubusa, ndetse ku ruhande hari abantu bari kugenda. Hakurya hari ibiti by'inganzamarumbo bihari.

Hano turahareba imodoka. Iyo modoka ihetse ibicuruzwa ndetse iyo modoka hejuru y'ibyo bicuruzwa hari umuntu uhicaye. Hano turi mu muhanda tunarebamo n'umuntu uhetse umugenzi kuri moto. Hakurya y'uwo muhanda hari ibiti bihari by'inganzamarumbu binini.

Aha bari kutwereka umuhanda muri uwo muhanda ku nkengero zawo hariyo imodoka izo modoka ziri mu bwoko bw'imodoka ntoya zitwara abagenzi zirahagaze zitegereje abantu, hakurya yaho hari inzu nini iyo nzu bigaragara ko igeretse.

Aha bari kutwereka umuhanda muri uwo muhanda harimo imodoka. Iyo modoka bigaragara ko ifitehita ibicuruzwa ndetse hari n'undi mugore uhagaze hejuru y'urutindo rutoya bigaragara ko ari gucuruza no muri uwo muhanda harimo moto iri kugenda hakurya hari ibiti biharirika by'inganzamarumbo.

Aha turahabona umuhanda, ndetse turahabona n'imodoka. Iyo modoka itwaye imizigo, hirya y'uwo muhanda hari inzu z'ubucuruzi, ndetse hari n'icyapa cyerekana aho hantu ko hari ivuriro.

Aha turi kuhabona umuhanda, muri uwo muhanda harimo imodoka, hino y'iyo modoka, hari umuntu uri ku kinyabiziga cya moto, hakurya yaho hari ibiti bihari biri ku nkengero z'umuhanda.

Bari kutwereka ibiti ndetse hino mu muhanda hari imodoka itwaye imizigo, hino y'imodoka hari amagare ahetse abantu, umugabo wa mbere utwaye iryogare yambaye ingofero.

Aha turi kubona umuhanda uwo muhanda harimo imodoka, harimo imodoka zitwara imuzigo ndetse n'imodoka zitwara abantu inyuma yawo biragaragara ko ari imiture y'umujyi ndetse hari n'abandi bantu barahagaze ahantu bari mu gatsiko ku nkengero zawo hari ibiti bito bikizazamuka.

Aha turi kuhabona icyapa. Icyapa kigaragaza ko abantu bacuruza ibinyobwa ndetse hari n'igiti hakaba hari n'imodoka ifite amapine menshi isa nk'aho itwara ibintu bisukika, hari n'umugabo uri ku igare imbere yaho hari imodoka zihari zenda guhura n'iyingiyi itwara ibintu bishukika.

Hano bari kutwereka ibinyabiziga, twavugamo imodoka ndetse na moto, bigaragara yuko izi modoka, iyi modoka iri mu muhanda iri gutwarwa n'umuntu, n'izi moto nazo ziri gutwarwa n'abantu, bakanatwereka urutindo, urutindo ruca abantu hakurya bari kutwereka ibiti by'inganzamarumbo bikuze.

Iyi shusho iratwereka umuhanda uwo muhanda hari kugendamo abantu hakurya y'u muhanda hari abantu bicaye ndetse bigaragara ko bategereje ibintu hirya y'abo bantu hari inzu igeretse.

Aha turi kureba ikibuga, icyo kibuga gifite amazamu, ayo mazamu afite icyo twakwita inshundura ziyizengurutse, hakurya y'icyo kibuga hari ibiti, ibyo biti ni inganzamarumbo.

Aha bari kutwereka ikibuga, iki kibuga bagikinamo umupira w'intoki, hakurya y'aho hari ibiti bikiri bitoya biteye mu busitani ibyo biti byitwa imikindo.

Aha turi kuhabona ibyatsi, tukahabona n'ibiti byinshi inyuma y'ayo mazu ahari, turi kuhabona n'ibyapa bisa nkaho biranga ko ahantu hakorerwa ibintu runaka, ibyo byapa bigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'amapoto y'amashanyarazi akwirakwiza ahongaho.

Aha ho bari kutwereka ikibuga. Icyo kibuga hakurya yaho hari ikindi gihari, hakurya y'icyo kibuga, hariyo urupangu ruzengurutse, ndetse muri icyo gipangu harimo ibiti n'inzu.

Imbere yange hari icyapa gifite ubuso bw'umweru, icyo cyapa mo hagati harimo amabara atatu, ayo mabara atatu harimo umuhondo, harimo umutuku ndetse n'icyatsi, icyo cyapa gikoze mu ishusho ya mpandeshatu.

Ahangaha baratwereka ibirometero mirongo ine, bari kutwereka na none urukuta, urwo rukuta rwubatswe n'amabuye, hejuru bakatwereka inzu yubakishijwe n'amatafari ifite igisenge hejuru hagaca urutsinga rutwaye umuriro w'amashanyarazi.

Aha ngaha turi kuhareba umugabo, uwo mugabo yambaye ishati, afite igikapu, yambaye ipantaro y'umukara, ari ku nkengero z'umuhanda, hakurya turahareba ko bari gutanga ikaze yo kuza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no kujya mu karere ka Rusizi, hakurya yaho hari ibiti by'ishyamba, hari n'umuntu uri mu nkengero z'umuhanda wambaye ingofero y'umutuku.

Iyi shusho irerekana icyapa, icyo cyapa gishushanyijeho umuntu w'igitsina gabo ndetse hasi yacyo birerekana umuhanda ukomeza, uwo muhanda ku nkengero zawo hariho ibiti.

Iyi shusho iratwereka ko aha hantu hatemewe kunyurwa n'abana ndetse ruguru y'icyo cyapa hariho igipangu kizengurutswe n'ibyuma. Byerekana yuko ahantu hejuru hari umuhanda ujya kureba abantu ku gipangu.

Aha ho turi kubona igare, iryo gare riri mu ishusho y'umukara ndetse riri mu buso bw'umweru, iryo gare riri mu muzenguruko w'uruziga bivuze y'uko utemerewe gutwara igare.

Aho bari kutwereka ishusho y'imodoka, iyo modoka iri mu ibara ry'umutuku, bivuze ko aha hantu hatemerewe guparikwa.

Hano bari kutwereka icyapa, icyo cyapa kigizwe n'ubuso bw'umukara ndetse gifite n'ibara ry'umuhondo, hari akandi kantu kerekana ariko ko kerekana icyapa kagizwe n'ibara ry'umukara.

Aha ngaha turahareba icyapa, icyo cyapa gishushanyijeho abantu babiri bigaragara ko umukuru afasha umwana, hirya yacyo hari ibiti by'inganzamaru binini, ubuso bw'icyo cyapa n'umweru ndetse bufite n'ibara ry'umutuku.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo barakeye cyane yiganjemo abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umukara n'amadarubindi imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Aha bari kutwereka icyapa. Icyo cyapa kivuga guhagara. Kifite ibara ry'umutuku, ndetse kigakorwa n'ibara ry'umweru.

Aha turahareba inzu, izo nzu zifite ubusitani, imbere yaho hari ibiti bitari inganzamarumbo, ibyo biti n'inyuma y'iyo nzu birahari.

Aha turi kuhareba abantu. Abo bantu hari abari mu mutaka, ndetse turareba n'indi mitaka hirya. Bigagara ko aha hantu ari mu i soko. Hari indi nzu y'ubucuruzi ifiteho ibintu biyiriho, bibambitseho by' ibara ry'umutuku.

Aha ngaha turi kubura inzu igeretse, iyo nzu igaragara ko igeretse gatatu, hejuru yaho hariho amatsinga atwara umuriro w'amashanyarazi, munsi haparitse imodoka y'umweru.

Aha bari kutwereka ahantu bita ku Giporoso bigaragara ko hari urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'abantu haba moto, haba n'imodoka zitwara abantu. Hakurya hari igiti gihari k'inganzamarumbo.

Iyi shusho iratwereka inzu, iyo nzu irageretse ifite amabara menshi y'ibara' ry'umweru, ayo mabara y'umweru agiye avanzemo n'amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, munsi yaho hari imodoka zihaparitse hirya y'izo modoka hari umuhanda nyabagendwa.

Aha ngaha turabona inzu igeretse hasi y'aho hari abantu bahari bane bari kugenda, hirya y'abo bantu bari kugenda hari umugabo uri ku kinyabiziga.

Aha turi kuhareba inyubako iyo nyubako irageretse ndetse ifite n'ibiti ahongaho, ibyo biti byitwa imikindo ifite n'aho baca ku irembo, abaca ku irembo hakozwe n'inzugi niniri.

Aha turi kuhareba ikinyabiziga, icyo kinyabiziga kiri mu ishusho y'umweru ndetse hafi aho hari inzu ndende y'ubucuruzi, iyo nzu irageretse, irambitseho ibishushanyo.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Iyi shusho irerekana inzu igeretse kabiri. Iyo nzu bigaragara yuko ikorerwamo; nko gutanga amasomo. Imbere yaho hariho umukobwa wambaye igitambaro cy'igitare ndetse yifashe mu mufuka, bigaragara ko ari kuri terefone.

Hano turi kureba umuturirwa, imiturirwa ituwemo n'abantu benshi, ndetse hagiye havanzemo n'ibiti, ibyo biti ntabwo ari byinshi cyane, uretse ko hari akandi gatsiko, kari imbere yanjye gasa nkaho karimo ibiti byinshi, ndetse n'inzu igeretse kenshi kane.

Aha turi kureba icyapa kitwereka ko ari Kimironko kwa Mushimire, hari umuhanda ndetse hari n'ibiti hari n'insina z'imibyare, hakurya bari kutwereka umujyi ndetse n'ibyuma bikurura itumanaho rya murandasi.

Aha ngaha turahabona urukuta, urwo rukuta umuzenguruko warwo ni ibara ry'ubururu ndetse hari n'igice gitoya gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba n'abana bari ku kicungo, ibi bigaragara ko bari kurya umunyenga, bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amakabutura y'umukara, hirya yaho hari igiti cy'inganzamarumbo gihari.

Aha bari kutwereka inyubako, izo nyubako zirageretse ndetse hariho n'igikoresho gikurura itumanaho kugira ngo abantu barebe amakuru, ndetse hasi haparitse imodoka, hari n'abantu bahagaze imbere yiyo modoka.

Aha turi kuhabona inzu mberabyombi, iyi nzu iberamo imikino ndetse n'ibindi birori byabaye mu gihugu bikomeye, ni ku Mahoro, hari inzu zifite ibisenge by'umutuku ndetse harimo n'ibiti by'imitako bikoreshwa mu ngo bisanzwe.

Inama ikoranyije abantu benshi batandukanye bafite inshingano zitandukanye mu rwego rwa leta bambaye imyambaro itandukanye harimo amakote abandi na mama, abandi ni abapapa, harimo abakuze n'abatoya.

Aha turi kureba umuhanda w'igitaka. Uwo muhanda harimo ibinyabiziga biri kugenda, twavugamo nka moto ndetse hari ibindi binyabiziga biri hakurya y'umuhanda biparitse, harimo nk'imodoka ntoya zitwara abantu. Hakurya turi kureba ibiti byinshi ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Aha baratwereka icyapa, kivuga ko ari aho inyoni ziba. Hirya y'inzu hari ibiti byinshi, ibiti byinshi. Munsi y'ibyo biti haparitsemo imodoka ndetse hari n'inzu iteye amarangi y'umweru. Imbere y'iyo nzu hari ubusitani burimo utwatsi dukeya.

Aha bari kutwereka inzu, inzu zigerekeranyije ndetse zifite n'irembo rigari, hari ahantu hari n'ubusitani ku irembo hari ibiti bitoya.

Ahangaha bari kutwereka imodoka nayo zitwara abantu ndetse bakatwereka n'inzu bakanatwereka n'ahantu amazi aca amanuka hasi kugira ngo adateza impanuka.

Hano bari kutwereka inzu igerekeranyije bakanatwereka ibiti byinshi by'inganzama ndetse batwereka n'inzu zisa nk'aho ari iz'ubucuruzi zitageretse n'izindi zo kubamo.

Iyi shusho irerekana igipangu icyo gipangu mo imbere harimo amazu ayo mazu yubakishijwe amabati mashya agezweho ya dumuzazi.

Aha turi kuhabona inyubako, izo nyubako biragaragara ko ari ahantu h'icyaro, hakorerwa ubuhinzi, hakurya hari ibiti bihari ndete hari n'inzu zigeretse.

Aha turahareba ibinyabiziga. Iki kinyabiziga kiri mu muhanda, icyerekezo kiri kuvamo hari inzu y'umuturirwa ihari, ku nkengero z'umuhanda hari icyapa ndetse hari n'ibiti.

Aha bari kutwereka inzu iyo nzu iragiretse ishushanyijeho cyangwa se hariho icyapa kiriho amacupa abiri, bigaragara ko n'iyo nzu ifite ubusitani, ituriye umuhanda w'umukara.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hubatse inzu iri mu marange y'umweru ndetse n'umukara, inzu ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Turi kubona icyapa kitwereka ko aha hantu ari i Remera, hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iri guha abaturage ndetse hafi aho hari ibiti, ibiti bitoya, hirya hari inzu zo guturamo ndetse hari n'amatara.

Aha turi kureba umuntu uri ku kinyabiziga yambaye imyenda y'akazi twavugamo nk'irinda umutwe kugira ngo n'impanuka ibaye umututangirika biragaragara ko aho ahantu hakorerwa ubucuruzi ndetse hari inzu zo guturamo ndetse hari n' ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi bitwara umuriro w'amashanyarazi biwujyana ahandi hantu runaka kugira ngo na bawubone.

Aha turahareba umuhanda uwo muhanda hakurya yaho hari ibiti ibyo biti ntabwo biraba bite binini ndetse n'uwo muhanda harimo ikinyabiziga harimo ibinyabiziga bibiri.

Aha ho turi kubona umuhanda, uwo muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, twavugamo nka moto ndetse n'imodoka, uwo muhanda hirya yawo hari icyapa ndetse hakurya y'icyapa hari inzu ihari.

Aha turi kureba umuhanda, uwo muhanda ufite ibyerekezo byinshi ndetse hakurya y'umuhanda hari ubusitani, ibiti bihari ndetse hari indi nyubako bari butwereka, iyo nyubako ni umweru.

Aha turi kureba umuhanda . Uwo muhanda urimo imirongo icagaguye yera ndetse hakurya hari ishyamba rihari, hari n'imodoka ziri kugenda muri uwo muhanda.

Aha turi kuhareba umuhanda, uwo muhanda ni nyabagendwa, ndetse bari kutwereka imirongo yera icagaguye, hakurya hari ishyamba rihari, ndetse ku nkengero z'uwo muhanda hari moto zihari ziparitse aho ngaho zitegereje abagenzi.

Aha turi kuharebaba umuhanda, uwo muhanda harimo imirongo yereka abagenzi ko imbere hakomeza, ndetse hakurya turi kuhareba izindi modoka zijya mu bindi byerekezo, hakurya y'izo modoka hari ishyamba rihari, ndetse muri iryo shyamba hagiye harimo n'amazu.

Aha bari kutwereka ibinyabiziga urugero moto ndetse bakatwereka n'umuhanda, bakatwereka n'ibiti biri hakurya, bakanatwereka n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Iyi shusho iratwireka umuhanda, uwo muhanda ukozwe mu buryo budasanzwe, ntango ari umuhanda ukozwe nk'iyingiyi isanzwe ndetse uwo umuhanda hirya yawo hari ubusitani, hari n'ibiti, hari n'icyapa kiyobora abantu.

Aha turi kureba umuhanda, uwo muhanda harimo imirongo icagaguye ariko idakurikiranye ndetse harimo n'ibinyabiziga biri kugenda. Urugero nk'ibinyabiziga bya moto ndetse ku nkegero hari n'igare rihari riparitse, hakurya turi kuhareba ibiti.

Hano bari kutwereka umuhanda uwo muhanda urimo ibinyabiziga bari kutwereka inkengero zawo ko hateye ibiti ibyo biti twavugamo nk'imikindo ndetse n'ibindi bitandukanye ku nkengero z'umuhanda hari amatara ndetse n'ibyapa biyobora abagenzi.

Hano bari kutwereka ibinyabiziga imodoka, ndetse bakatwereka n'umuntu uri kuri moto, hafi aho ngaho hari ishyamba, ishyamba rinini ryinshi ririmo ibiti byinshi ndetse binakuze.

Aha hari umuhanda muri uwo muhanda harimo imodoka, ndetse izo modoka zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hakurya hari inzu izo nzu zirageretse bigaragara ko bakoreramo inama.

Iyi shusho iratwereka ko hari ibyapa, ibyo byapa hari n'abantu bari kugenda mu muhanda, uwo muhanda urimo ibiti bitwa imikindo bigaragaza ubwiza bw'umuhanda.

Aha turi kuhabona umuhanda, uwo muhanda ku nkengero zawo haparitse igare ndetse bigaragara yuko aho hantu hari n'ikiraro, hakurya y'uwo muhanda hari ishyamba ry'ibiti binini.

Aha turahabona umuhanda uyu muhanda urimo umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto uwo mugabo yambaye igikoresho bakoresha kirinda impanuka mu mutwe.

Aha ho turi kubona umuhanda, uwo muhanda harimo imodoka hari ibyapa biri kwerekana ko abantu bemerewe kunyuraho ndetse n'ibyapa byerekana ko abantu batemerewe kunyuraho, harimo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka nyinshi.

Ahangaha turi kuhareba umuhanda. Mu muhanda harimo imirongo yera icagaguye y'abanyamaguru ndetse harimo na moto hepfo y'umugenzi. Hari undi muhanda uri hejuru ku nkengero zawo hari kugenda umunyamaguru hari n'ibiti ku nkengero z'umuhanda.

Hano turahareba umuhanda, hari umugabo ufite igare hakurya hari ibiti ndetse hari n'umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru mu mirongo icagaguye yera.

Aha bari kutwereka umuhanda, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga bitoya. Ibyo binyabiziga harimo moto, hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse by'inganzamarumbo.

Aha turikureba umuhanda, umuhanda harimo ibinyabiziga ndetse harimo n'ibiti biriho amatara abonesha umuhanda ndetse hariho n'ibyapa byerekana ko hakomeza kugenda .Ibyemererera ibinyabiziga gutambuka biri hakurya mu nkengero z'umuhanda.

Hano turi kuhareba umuhanda umuhanda hakurya yawo hari ibiti by'inganzamarumbo ndetse hari n'akazu abagenzi bicaramo bategereje ko imodoka muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga.

Aha barikutwereka umuhanda. Uwo muhanda bari kutwereka ko nta muntu uri hafi ahongaho. Ariko hirya, hari umuntu uri ku kinyabiza ndetse n'abantu bari kugenda n'amaguru.